Abagabo batatu babiri bambaye imipira y'umweru n'amakoboyi ndetse n'undi umwe wambaye agapira k'umutuku bari kuganira uburyo ki bashobora gufata ubwishingizi bwa bizinesi yabo.

Inzu y'ibirahure iriho icyapa cyamamaza kiriho akana kari guseka, biri kwamamaza uburyo watsindira ibihumbi makumyabiri na bitanu, buri cyumweru bifite tokeni y'imibare mirongo itatu na rimwe icyenda kabiri gatandatu.

umugabo ufite umusatsi, wambaye agapira k'icyatsi, wicaye mu ntebe afite igikombe mu ntoki, arimo arasoma igitabo kimwereka uburyo ki ashobora gufata umwanya uhagije wo kwita ku buzima bwe, akanitegura icyumweru kiri imbere.

Porogaramu ya banki yerekana sisiteme y'umuntu ukuntu imeze n'uko yayihindura cyangwa agakora ibyo ashaka, aho ushobora kureba uko ivunjisha rihagaze, amakuru ajyanye na porogaramu yawe ndetse n'ukuntu banki yawe yagiye ikora.

Umucuruzi uhuye n'umukiriya barimo baravugana ku gicuruzwa agiye kumugurishaho, barikumvikana ibigiye kugenderwaho mu guhaha cyangwa mu kugura igikoresho bafite mu ntoki bari kumvikanaho.

Imodoka y'umukara ndetse n'izindi z'umweru, iparitse ahantu, imbere y'inzu ya etaje igeretse. Aho nta muntu uyirimo, ikaba iparitse imeze nk'aho iri kwamamazwa.

Abagabo babiri umwe wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikijuju bahagaze imbere y'imodoka y'umweru yanditseho akagera motozi.

Abagabo batatu, babiri bambaye imipira y'imyeru, undi umwe wambaye ishati, bahagaze imbere y'modoka y'umweru y'igikamyo cya fuso, bafite urufunguzo mu ntoki rwanditseho akagera motozi, eyibiji.

Urubuga rwo kwishyuriraho rwerekana uburyo ki wakwishyura ukoresheje murandasi yawe ndetse na mudasobwa bitakugoye aho ushyiramo amazina yawe yombi nimero za telefone n'igihugu ukoresha.

Icyangombwa cy'imari gitangwa na leta y'igihugu cy'u Rwanda, ibifashijwemo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imisoro n'amahoro. Cyerekana yuko umuntu yishyuye serivisi yasabwaga kwishyura. Cyerekana n'andi makuru atangwa kuri iyo serivisi.

Icyangombwa k'imari k'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'imisoro n'amahoro, cyerekana kikanemeza ko umuntu nta mwenda afitiye igihugu ku bijyanye n'imisoro n'amahoro ko byose yamaze kubyishyura.

Icyangombwa cyerekana uko ikoreshwa ry'amafaranga y'amanyamahanga riteye. Uko mu migabane igiye itandukanya amafaranga yaho agiye ameze. N'uko wabikoresha mu ivunjisha.

Hoteri irimo ibyo kunywa n'intebe n'ahandi hantu bateganyirije abantu h'uruganiriro hasanzwe n'ibitoki biri inyuma ya hoteri.

Inzu yo ku cyicaro gikuru cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubwishingizi bw'amamodoka, aho hariyo n'ibiti n'igipangu biyikikije bikaba bifite n'amagambo y'umweru ya SONARWA.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gucuruza serivisi za emutiyene. Bicaye ahantu mu kazu, aho barimo baracuruza serivisi abakiriya bashaka.

Igikoni kirimo amashyiga yo gutekeraho kigizwe n'amakaro arimo n'ibindi bikoresho byo mu gikoni harimo imbuto nk'inanasi, imyembe, birambitse ku meza asa ubururu.

Inzu nini y'ubucuruzi aho ifite amagorofa agiye atandukanye acururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo nk'imyambaro y'abagore n'abana igiye inyuranye.

Abaturage batewe ishema no kwerekana ubwishingizi bwabo bwa mituweli bifashisha bagiye kwivuza, mu gihe bahuye n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi bigatuma bagabanyirizwa kwishyura.

Icyumba kinini k'inzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa n'ibindi byifashishwa mu gukora amasuku agiye atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi igizwe n'amakaro na parafo by'umweru, irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye baza guhaha harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa n'amavuta yo gutekesha.

Ni inzu y'isoko ryiza ifite amatara muri yo n'amakaro irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye byo guhaha ndetse n'ibindi by'amasabune yo kumesesha n'ayo gukoropesha, n'ibindi bicuruzwa bigiye biyirimo byo gucururizamo.